Itsinda ry'abantu bambaye imipira y'imituku, abambaye iy'imikara n'imyeru, bafite icyapa cyanditseho amagambo avuga ngo akira icyacumi, iruhande rwabo hakaba hari ibikinisho biri mu ibara ry'umutuku.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'u, bururu imbere ye hari akazu ka MTN gasa umuhondo kandi kandiditseho amagambo y'umutuku n'umukara, ni akazu gakorerwamo n'abakozi ba MTN batanga amayinite cyangwa se babika cyangwa bakabikura amafaranga.

Umugabo wambaye ishati y'umweru nkipantaro uhagaze hagati mu muryango we yasetse, imiryango irasa umuhondo, yandikishijeho amagambo asa umutuku. Hamwe haranditse ngo amafaranga, ahandi handitse ko hari umuntu uhagarariye sosiyete runaka.

Umuntu ubona ko yaje gushaka serivisi za MTN ku kazu kabugenewe kanditseho ko kohereza amafaranga kandi ku mirongo yose, muri ako kazu harimo umuntu wicayemo utanga izo serivise.

Akazu kari hakurya gasize irangi ry'umuhondo kanditseho MTN, ikaba ari sosiyete ikorera mu Rwanda y'itumanaho, ikaba itanga serivisi zitandukanye ku bantu.

Umugore we wambaye agasengeri k'umutuku ufite ishakoshi, ari mu nzu ifite icyapa hejuru cyanditseho ngo telefone cyangwa se ahatangirwa serivise za MTN, mu imbere harimo umuntu wicaye wambaye agashati k'ubururu, harimo n'inkweto.

Umuhanda urimo imodoka nyinshi n'abantu bari kugenda kandi iruhande rwawo hari akazu gakoreramo umukozi wa MTN ufasha abantu mu gihe bashaka kubikura amafaranga cyangwa se kuyabitsa ndetse hari n'ibiti bigiye bitandukanye.

Abantu bahagaze hamwe harimo abambaye imipira y'umweruru ndetse n'uwambaye umupira w'umutuku, imbere yabo hari ameza nini iriho amaterefone, na ho ku mpande hari icyapa kinini cyanditseho eyateri mu nyuguti zitukura.

Abantu bambaye amajire y'umutuku yanditseho ijambo Airtel, akaba ari umugabo w'umuzungu wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umweru, ufite idangururamajwi ubona ko hari ijambo ari kugeza ku bantu bateraniye aho bari guhabwa ayo majire.

Inyubako yubakishije ibiti ariko ikorotirije amabati arimo ibara ry'ubururu ahagana hasi no hejuru, iyi nzu ni ikiraro hajyamo amatungo nk'inka bityo akabamo akaba atatorongera ngo agende.

Abantu bicaye mu matsinda harimo abicaye ku ntebe z'umweru ndetse n'abandi bicaye ku ntebe z'urubaho, hagati muri bo hari umugabo uhahagaze ari kubaganiriza ku bijyanye n'ukuntu bazajya kuguza kuri banki kugira ngo babone amafaranga ahagije bazakoresha mu itsinda ryabo.

Itsinda rigari ry'abantu bigaragara ko higanjemo urubyiruko ndetse hakaba harimo n'abashinzwe umutekano, hagati yabo hari ikinogo bashyizemo ibicuruzwa bitemewe n'amategeko bakaba bagiye kubitwika.

Abantu bambaye imyenda iri mu mabara, harimo umweru, umukara ndetse n'umutuku n'umuhondo. Bahagaze ku murongo, imbere yabo hari imbabura, zimeze kimwe, zihabwa abaturage.

Umwuga w'ububumbyi na wo ni umwuga wabayeho kera, mu mateka y'u Rwanda kandi watunze abawukoraga, hano rero hari umukecuru wambaye umupira w'umutuku n'igitenge wicaye, akaba arimo arakora uyu mwuga w'ububumbyi.

Abantu bahagaze hejuru ku musozi, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, icyatsi, umukara, umweru n'ayandi. Ubona ko bahagaze ahantu hadutse, hacitse inkangu bitewe n'imvura cyangwag se n'hindagurika ry'ikirere.

Umugabo wishimye cyane, ubona ko hari ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho, bityo akaba yarakiriye igikombe cy'ishimwe, kigaragaza ko hari ibyo yagezeho kandi akwiriye kubishimirwa. Yambaye isaha ku kaboko, ikote ndetse n'agapira k'ubururu mo imbere.

Imifuka ibiri iteganye umwe urasa umuhondo, wandikishijeho amabara y'umukara ndetse n'icyatsi. Undi urasa ubururu wandikishijeho amagambo y'umukara ndetse n'ubururu. Ni imifuka irimo ibintu bipakiyemo bishobora kuba ari nk'umuceri.

Umugore bigaragara ko arimo aratanga ijambo. Yambaye umupira w'ubururu uriho Ikirangantego cy'u Rwanda. Afite telefone n'indangururamajwi mu ntoki ze. Imbere ye hakaba hari ihema, rizengurukijeho kandi ritatswe n'ibitambaro bikoze Idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

Abantu bakora imirimo y'imvune yo kwikorera imizigo. Barimo barapakurura ikimodoka kinini bikorera imifuka minini y'imyeru ubona ko irimo ibintu biremereye cyane rwose.

Inzu ubona ko ari akabari wajyamo ukaka icyo kunywa cyose ushaka uka wakibona, hakaba harimo inzoga zigaragara hakurya muri kotwari ndetse n'udutabe twicarwaho n'abakiriya.

Ubwoko butandukanye bw'inzoga zigezweho kandi zihenda cyane, harimo iziri mu macupa y'icyatsi ndetse n'andi abonerana n'andi y'imikara, akaba ari inzoga, zigurwa amafaranga menshi.

Akabari gafite inzoga zigiye zitandukanye z'amoko menshi ndetse zimwe zirahenze kurusha izindi, harimo televiziyo kandi hari n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye nk'ibirahure byifashishwa iyo abantu bari kunywa inzoga hamwe n'ibindi.

Umugore uri mu nzu y'ubucuruzi yateze agatambaro mu mutwe adafite ibara ry'umukara, kandi inyuma ye bimwe mu byo acuruza harimo ibiri mu ibase ndetse hari n'ibirungo by'ubwoko bugiye butandukanye.

Mu nzu y'ubucuruzi izwi nka botike, iba irimo ibicuruzwa bitandukanye kandi byose bivanze haba harimo ibiribwa, haba harimo ibikomoka ku matungo, amaji, inzoga ndetse n'ibindi.

Umugore uhagaze mu iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, hari amatureyi menshi arimo amagi ndetse hirya hari uducupa dutandukanye turimo amavuta yo guteka y'ubuto kandi hari n'ahandi hari amakaroni.

Umugore wambaye agapfukamunwa wicaye, bikaba bigaragara ko ari umucuruzi ucuruza ibintu bitandukanye harimo ibiribwa, imifuka ndetse n'ibindi bitandukanye nk'impapuro z'isuku n'ibindi.

Akabati gasize irange rya shokora karimo amagi menshi atondetse ku murongo ndetse ari mu itureyi kandi amwe ari hasi, andi agiye ageretse hejuru yayo.

Umugore bigaragara ko acuruza mu isoko, akaba ari gucuruza ibintu bitandukanye biri mu mifuka, ibiri mu kabati kari inyuma ye, ibiri mu mifuka harimo nk'indagarara, ubunyobwa, ifu y'igikoma n'ibindi. Inyuma ye mu kabati harimo uducupa tw'amavuta, amakaroni, amasabune n'ibindi.

Akabati k'umweru karimo ibikombe, teremusi n'amasahani. Hejuru y'ako kabati hari ibase irimo amandazi; naho inyuma y'ako urabona ko harimo abantu barimo baracuruza muri iyo resitora.

Umugore wasetse ucuruza ibicuruzwa bitandukanye yaba ibiri mu mifuka n'ibiri mu kabati inyuma ye birimo: nk'isabune, umuti wo kwisiga, imiti y'amenyo n'ibindi.

Abantu bahagaze ku murongo harimo abambaye amakanzu y'imyeru n'undi uri hagati wambaye ikanzu y'umukara, imbere yabo hari imeza itetseho igitambaro cy'umweru kandi hakaba hariho n'inkongoro ndetse n'umusaraba hagati. Bigaragara ko barimo barasenga.

Itsinda ry'abantu biganjemo abantu bakuru, barimo abagabo n'abagore. Bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara, umuhondo n'ubururu. Imbere yabo bigaragare ko bagiye bafite amakayi n'amakaramu hari ibintu bari kwandika.

Umugabo ubona ko ari Musenyeri, wambaye akagofero k'umutuku witeye ibishura by'umukara ndetse n'umutuku, afite kandi inkoni mu kuboko kwe kw'ibumoso iteye nk'umusaraba.

Inyubako irimo amarangi atandukanye, indabyo ndetse n'ibindi. Kandi harimo abantu harimo abambaye amakanzu y'imyeru ndetse n'abandi bari kubaca imbere bahabwa mu

Abantu bari mu rusengero, barimo barasenga, bamwe barahagaze, barambuye amaboko hejuru, abandi barapfukamye, baryamye ku tumeza turi imbere yabo, abandi baricaye, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, umuhondo ndetse n'umutuku.

Abantu bari mu nzu iteye irangi ry'umuhondo. Harimo abagabo ndetse n'abagore, bambaye imyenda yiganjemo ibitenge ndetse iruhande rwabo hari n'abana bicaye hasi. Imbere biragaragara ko hari imeza iteretseho ibitabo.

Inyubako ubona ko ishaje cyane rwose ifite urugi runini rw'imbaho, ubona ko kandi ishobora kuba yubatse ahantu mu manegeka hagerwa n'amazi menshi.

Abapadiri batanu bahagaze ku murongo bambaye ibishura bifite ibara ry'umweru, bahagaze kuri aritari ndetse hirya yabo no hino hari indabo zigiye zihateguye ziri mu mabara atandukanye, inyuma yaho hari igikuta kiriho igishushanyo.

Umugabo uhagaze imbere ku gatoti yambaye ishati y'umweru, ijire y'umukara n'utundi tw'umutuku, ibiganza bye yabifatishije ku gatoti kari imbere ye, inyuma ye irido nini y'umweru imanuyeho indabyo.

Inyubako ndende yubakishije amatafari ahiye, afite inzugi ndetse n'amadirishya arimo utubara tw'umukara ndetse n'umutuku, iyo nzu ifite igice cy'imbere kirekire kiriho umusaraba hejuru, bigaragare ko ari inzu isengerwamo.

Urujya n'uruza rw'abantu ubona ko baje gusenga ku nzu ya katoliki yubakishije amatafari ahiye, iteye kandi amarange y'umweru ahagana ku nkingi zayo.

Urusengero rutemo intebe ziri ku murongo kandi hejuru muri parafo hamanitsemo amatara yaka ibara ry'umweru, hirya no hino hari amadirishya afite ibirahure kandi imbere hari aho pasiteri ahagarara ari kubwiriza.

Inyubako iteye irange ry'umweru ifite amadirishya y'ibirahure, ubona ko imbere yayo hari ubusitani bunini kandi bwiza buteyemo ibiti bitandukanye, urugero nk'igiti cy'umwembe ndetse n'ibindi.

Ahantu heza cyane hitegeye rwose ushobora gusohokera hamwe na famiye yawe cyangwa se n'umukunzi wawe, hari imeza iteretseho ibiribwa bitandukanye ndetse n'ibinyobwa.

Icyumba cy'uburyamo cyiza cyane kirimo ibikoresho nk'uburiri bwiza bushashe neza, akameza gateretseho itara n'utundi dukoresho nk'impapuro, akabati gateretseho televiziyo umuntu ashobora kureberaho amashusho.

Inyubako igeretse rimwe, ifite igipangu kinini kandi cyiza giteye irange ry'umukara ariko gishakaje amabati y'umutuku, iyo nyubako mu mbuga yayo harimo amapave, yegereye kandi umuhanda w'ibitaka.

Inyubako ndende isakaje amabati'umutuku, ifite amadirishya manini y'ibirahure, iteye kandi irangi ryumweru, mu mbuga yayo haparitse amamoduka atandukanye harimo asa umweru n'andi afite ibara ry'umukara.

Abantu bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umutuku kandi bakikije ameza arambuyeho igitambaro cy'ubururu bwijimye ateretseho ibintu bitandukanye, harimo amazi ari mu ducupa ndetse n'ibitabo n'amakayi kandi bari kwiga ku buryo bateza imbere amahoteli.

Inyubako nini cyane iteye irangi ry'umuhondo, ifite kandi n'ubusitani bunini cyane buteyemo ibiti n'imikindo, akaba ari inzu itangirwamo serivisi za Leta.

Icyumba cy'uburyamo cyigari cyiza giteye irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho: nk'igitanda kiryamwaho, harimo n'indorerwamo yo kwirebaho, harimo inzitiramibu, harimo akabati ndetse n'ibindi bikoresho by'ingenzi bigomba kuba biri mu cyumba cyo kuryamamo.

Inyubako isakaje amabati y'umutuku iteye irangi ry'umweru, ifite amadirishya y'ibirahure ubona ko abonerana, iyi nyubako ikaba igeretse kabiri ukabona ko ari inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Inyubako iteye irangi ry'umweru igeretse rimwe, ifite amabati y'umutuku, imbere yayo hari ubusitani ndetse n'imbuga iparitsemo imodoka ebyiri harimo n'imwe ikinguye urugi, hakurya kandi y'iyo nzu hari imisozi n'izindi nzu.

Inyubako igaragara neza irimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe z'imifariso, intebe z'imbaho n'imeza, amavaze ariho indabyo, hakurya hari kandi itsinda ry'abantu bari hamwe.

Icyumba cya hotel kirimo imitako myiza ndetse kirimo n'intebe n'ameza bifasha abantu kwicara bakarya ndetse bisanzuye, hirya hari amadirishya y'ibirahure kandi hejuru hari ibipirizo biri mu ibara ry'umweru.

Inzu ngari iteyemo amarangi harimo umuhondo n'icyatsi, irimo ibikoresho nk'intebe, imeza ndetse n'ibindi bigaragara ko ari inzu y'uburiro yakira kandi abantu benshi.

Ubwogero buzwi nka pisine bukunze kuba bufite amazi ajya gusa ubururu, impande yabwo hari intebe nyinshi abantu baje kuri ubwo bwogero bicaraho bakaruhukiraho mu gihe bategereje cyangwa se bamaze koga.

Inyubako ndende igeretse kabiri iteye amarangi y'umuhondo imbere yayo hakaba hari ubusitani bunini cyane buteyemo ibiti by'imikindo ndetse n'ibindi, ikaba ifite akayira gaca muri ubwo busitani kubakishije amatafari.

Aha ni ku isoko, aho abantu bamwe baba baje gucuruza abandi baje kugura ibyo bakeneye, hano hari umugabo usutamye ubona ko we aba yaje gucuruza inkweto z'ubwoko butandukanye harimo izambarwa n'abana n'abantu bakuru, aba yazirarambitse kuri shitingi y'umweru.

Aha ni ku isoko aho abantu bahurira bamwe baje kugura abandi baje kugurisha, hari abantu bari kugurisha inkweto, imyenda, imikandara ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko rihurirwamo n'urujya n'uruza rw'abantu baturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu baje kugura cyangwa se kugurisha, ibintu bafite. Urugero iki ni igice gicururizwamo ibitenge by'ababyeyi.

Umugore wikoreye igitebo ku mutwe ndetse agifatishijeho amaboko yombi, kiriho imbuto yazanye gucuruza mu isoko ndetse ateze agatambaro gafite ibara risa n'ivu, imbere ye hari umumotari wambaye kasike ifite ibara ry'icyatsi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko bamwe barimo baracuruza abandi barimo baraha, bambaye imyenda iri mu mabara harimo umutuku, umukara, ubururu, umuhondo ndetse n'ayandi, bamwe bari gucuruza imyenda abandi baracuruza imikandara n'ibindi.

Uurujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko, baba baje bamwe gucuruza abandi baje kugura, yaba ibikoresho cyangwa se ibiribwa bitandukanye. Higanjemo ababyeyi bambaye imyenda harimo amabara y'umutuku, ibitambaro by'umweru n'ibindi. Ikindi hari inzu nini yagenewe gucururizwamo ndetse n'ikigega cy'umukara.

Urujya n'uruza rw'abantu bahuriye mu isoko rigurishirizwamo ibintu bitaribwa ndetse n'ibikomoka ku buhinzi ari byo biribwa muri byo harimo nk'ibitoki ibijumba n'ibindi, hakaba harimo n'ibyo bindi bitaribwa nk'indobo, imari zijyamo imyenda, hakaba haparitse kandi muri iyo mbuga imodoka n'ibindi.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye hari shitingi irambuye hasi iriho imyenda y'ubwoko butandukanye, iri gucuruzwa n'umugore ndetse imbere y'iyo myenda hari umugabo uri kugenda mu muhanda wegereye iryo soko wambaye ingofero n'ishati y'umweru.

Isoko riri gucururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye hari ishitingi irambuye hasi iriho imyenda ndetse n'ibindi, kandi inyuma y'iryo soko hari ibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu baba baje kurema isoko, harimo abaje guhaha ndetse n'abaje kugurisha ibyo baba bakuye mu ngo cyangwa baranguye. Mu biri hano bigaragara harimo: inyanya, karoti, watermelon, inanasi, amacunga n'ibindi.

Ibikoresho bitandukanye birambitse kuri shitingi y'umutuku, muri ibyo bikoresho harimo utwifashishwa babikamo amafaranga tuzwi nk'udukese, hari utuyunguruzo tuyungurura ifu hari imifuka hari ibyuma amakanya ibirushi ndetse n'ibindi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari uhetse umugenzi, bose bambaye kasike, kandi umugenzi bahetse yambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'ubururu juru kandi mu muhanda ukikijwe n'ibiti.

Urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'urw'ibinyabiziga, bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo mu gihe cya nijoro ubona ko amatara yo ku muhanda ari kwaka anabamurikira, ibi rero bikaba bigaragaza ko mu Rwanda igihe icyo ari cyo cyose akazi kaba gakorwa amasaha makumyabiri n'ane ku yandi.

Umumotari uri mu muhanda wa kaburimbo ahetse umugenzi wambaye inkweto zifite ibara ry'umutuku ndetse n'ikabutura ifite ibara rya kake, hirya yabo hari imodoka iparitse imbere y'inyubako z'ubucuruzi.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga nka moto, itwawe n'umumotari uhetse umugenzi, uwo muhanda kandi ukaba ukikijwe n'ibiti n'indabyo, amapoto atwara amashanyarazi ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ingofero y'ubururu n'agapfukamuwa k'umutuku, yicaye mu modoka arayitwaye, iyo modoka ifite ibara ry'umweru, inyuma yayo hari inyubako iteye irange ry'umuhondo ifite ibirahure by'ubururu yanditseho Banki ya Kigali.

Umuhanda wa kaburimbo ni igikorwa remezo cyiza kandi cy'ingenzi ku bantu bose, hagendamo ibinyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka, hano rero turahabona abantu batwaye moto bari kugendaho mu muhanda, hirya yabo hari inzu zubatse ndetse n'imodoka ziparitse.

Urujya n'uruza rw'abantu bari ahantu bategera amagare, abageza aho bashaka kujya haba ari mu ngo cyangwa se ku kazi cyangwa n'andi hantu baba bagiye. Iruhande rw'aho abanyonzi bari hari igipangu, gifite urugi rwa oranje.

Umumotari uri kugendera mu muhanda w'amapave ahetse umugenzi wambaye agashati k'amaboko maremare karimo ibara ry'umweru n'umukara ndetse uwo mumotari n'umugenzi atwaye bambaye kasike ziriho ibirahure ndetse zifite ibara ry'umutuku, hirya yabo hari ibiti by'amoko atandukanye.

Moto zigiye ziparitse imbere y'inzu z'ubucuruzi kandi izo nyubako zubatswe ku buryo bugeretse. Zisize amarangi atandukanye ndetse hari umumotari wambaye kasike y'umutuku iriho n'ikirahure yambaye ipantaro ifite ibara ry'umukara.

Imihanda by'umwihariko ya kaburimbo ni byiza ko tuyibungabunga bitewe n'uko ibikorwa remezo bifasha abantu bamwe kuva mu gace kamwe tujya ahandi. Umumotari utwaye moto uhetse gaze ari kuva ahantu hamwe ajya ahandi ajya gushaka gaze.

Umuntu wambaye kasike, wicaye kuri moto ifite amabara y'umukara n'umutuku, aparitse mu mbuga ishashemo amapave, inyuma ye hari inyubako, iteye irangi ry'umweru, ifite inzugi z'ibirahure.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umurongo muremure ufite ibara ry'umuhondo, kandi harimo n'ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye umupira w'amaguru magufi, ufite ibara ry'umumweru n'ipantaro y'umukara ndetse yambaye na kasike y'umutuku hirya ye hari insina ndetse n'ibirabo.

Ubutwazi bw'abantu ndetse n'ibintu ni ingenzi, muri iki gihe turimo bitewe n'uko abantu bakenera cyane kuva aho bari bakajya ahandi, rero bashobora gutwarwa hifashishijwe amapikipiki cyangwa se n'imodoka nini zitwara abantu muburyo bwa rusange.

Umugabo uri gusunika igare ripakiye amabati. Yambaye umupira w'umuhondo n'ingofero. Muri uwo muhanda kandi hirya haparitse imodoka, harimo isa umutuku n'izindi zisa umukara.